Abana bo mu mashuri y'incuke baba bagomba kwicara hamwe mu gihe abarimu bari kubigisha. Bakajya bakora ibimenyetso, icyo umurererezi akoze n'icyo n'umunyeshuri akora. Birabafasha cyane kuko aba bakunda kwigana bagahita babimenya byihuse.

Ibigo by'amashuri y'abana biga mu myaka ibanza, haba hari amashuri menshi atandukanye, kuko biga imyaka itandatu, haba hagomba kuba hari amashuri ahagije.

Kwigisha abanyeshuri bo mu mashuri abanza, bisaba kugira ibintu ushushanya ku buryo umwana arajya abireba akamenya buri cyose icyo gisobanuye. Kugira ngo amenye neza ikinyarwanda cyangwa se imibare, areba amashusho akabihuza.

Abanyeshuri bo muri segonderi, baba bambaye inifomo, iyo bagiye kwinjira mu kigo, barakaraba, imbere y'ikigo haba hari kandagira ukarabe, bakabanza gukaraba ngo babone uko binjira mu kigo basa neza.

Abanyeshuri bo mu makaminuza, n'abanyeshuri bo mu myuga, bakoresha mudasobwa mu gihe bari kwiga, baba bafite amagurupe bigiramo, bikabafasha bagahuza ubumenyi.